Hacururizwa imiti itandukanye, hazwi ku izina rya farumasi aho umuganga muri iyi farumasi ari kureba imiti yandikiwe umurwayi, hanyuma akaza kuyimuha.

Iyi nzu itangirwamo serivisi z'ubuzima, izwi ku izina rya posite de sante ya Nyamugari ikaba yarubatswe ku nkunga y'ubudehe. Inzu imeze neza, isa neza hateye amarangi. Iriho na kandagira ukarabe mu buryo gukomeza isuku.

Etajeri irimo imiti ya kizungu, ahazwi nka farumasi, aho babasha kuguha imiti wandikiwe na muganga, ukajya kuyigura, iba iri mu bwoko butandukanye bitewe n'ikibazo wagize, bakaguha imiti.

Ipapayi ya kinyarwanda itarera imbuto zayo kuko ikiri ntoya, ihinze mu makoro aho umusaruro wayo utegerejwe ko uzaba mwiza bitewe n'uko iri papayi riri kuzamuka.

Ibyatsi bihinze ahantu bishobora gukorwamo imiti bitewe n'uko byateguwe, bikavura indwara nyinshi zitandukanye mu buryo bwa kinyarwanda kandi umuntu akabasha gukira vuba.

Umuhanda ukoze muburyo bw'amapave, kuruhande rwayo hariho igiti gikoreye neza kiri m'ubwoko bwa avoka, kibasha gutanga umwuka mwiza binyuze kuri uyu muhanda kandi bakumva amahumbezi aturutse kuri iki giti.

Igiti cya kinyarwanda kiri mu byafasha kuvura indwara za kinyarwanda, giteguwe neza kandi kikabasha kuvura indwara zitandukanye mu mubiri w'umuntu ni ahacu kugikoresha.

Ibimera biri mu byo bavurisha indwara za kinyarwanda zitandukanye. Ushobora kubyanika ku zuba bikuma, ukabivanga, warangiza akoroshya mazi ukanwa. Ibi biravura cyane indwara zitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Ibyatsi by'ishyamba bibasha gukoreshwa mu muti, umuti ukoreshwa kinyarwanda ushobora no gukorwa mu buryo bwa kizungu, ugashyirwa muri farumasi abaturage bakawukoresha bivura bitewe n'ikibazo bagize.

Ibyatsi bya kinyarwanda birimo imiti， bikabamo n'ibyo barya ako kanya， bitagombeye ko babanza bajya kubitunganya， ibyo ni nk'imifumba，imifumba iribwa ako kanya bitagombereye ko bayitunganya.

Ibimera cyangwa se ibyatsi bibasha kuvura mu buryo bwa kinyarwanda, iyo bitunganyijwe neza bivura indwara zitandukanye kandi mu buryo bwihuse, abanyarwanda rero babikoresha kenshi bitewe n'ikibazo bagize bakabisoroma bakabikoresha.

Ishyamba ririmo imigano itaraba myinshi, inyuma hakaba ibiti bya cipure, hirya hakaba ibindi biti bitandukanye, bigaragara ko ari ishyamba rimeze neza, kandi ritanga umwuka mwiza.

Ibyatsi bya kinyarwanda bibasha gukoreshwa mu miti ya kinyarwanda, aho bibasha kuvura abantu bitewe n'uko byateguwe, cyane cyane ku banyarwanda bakuru batakiri mu myaka y'urubyiruko.